Amashuri bigiragamo, afite amadirishya n'inzugi by'ubururu, imbere ya ho hariho ikibuga kirimo pasiparumu, bigaragara nk'aho bakinira bakinira vole.

Abanyeshuri bari mu ishuri mwarimu ari kwigisha abanyeshuri kopiyuta bigiramo, intebe abanyeshuri bicayeho n'ikintu bandikiraho kiri kuri mashine.

Abantu bambaye imyenda y'ubururu, bambaye ibintu bimeza nk'ibisahani mu mutwe by'umuhondo, bafite turunevisi barimo barafungura iradiyo, barashaka kuyikora kuko ifite ikibazo.

Kompiyuta bakoresha bari gushyira ibintu kuri interinete, kompiyuta bafunguye turunevisi insinga nyinshi zitandukanye, n'abantu bari gukoresha izo mashini.

Intebe bakoresha imbaho , aba abantu babaza intebe, icyuma bakoresha babaza, amatafari ahiye, inzugi z'ibyuma....

Abantu bafite inkoni. Bambaye imyenda isa. Barahagaze bari kwifotoza. Hari icyapa kigaragaza ibikorerwa ahantu bahagaze. Bigaragara nk'abantu bari bagiye gusura ibikorwaremezo. Aba....

Umumama ufite imakasi ari kogosha umupapa, afite akaroso mu ntoki akozamo imisatsi mu mutwe kugira ngo abone uko yogosha, irimo abakobwa basutse ubona ibishushanyo byerekana ko ahantu basuka, n'ibindi bikoresho birimo nk'ikintu cyumutsa umusatsi, ikirambura umusatsi.

Aha haragaragara abakozi bambaye amataruburiya y'umweru n'ay'ubururu, bafite icyuma kiri gutunganya ikintu runaka, murakoze.

Moto batwara yapfuye none abakanisha bambaye imyenda y'ubururu barimo barayifungura, bari gukuramo amapiyesi, bari kugira ngo baze kuyikora yongere igende neza.

Mikorofone irangurura ijwi umunyeshuri arayifashe arimo arayivugiraho, abandi banyeshuri bafite amakaye n'amakaramu barakurikiye barimo barandika,i byo bari kwandikiraho babiteretse ku meza.

Abanyeshuri bambaye iniforume y'ishuri bafite amakaye n'ibitabo, barimo barerekana amashuri bigiramo, igiti cy'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ingofero imeze nk'isorori, umuntu wambaye imyenda y'ubururu afite ikintu ari kureberamo. Wagira ngo ari gukamera inzu zifite inkingi.

Abanyeshuri barimo kwiga ubukorikori, bateretse ku meza bafata utuntu tubiri baraduhuza. Barimo barashyira insinga ziri mu bintu bakoze kugira ngo baze kureba ko niba bikora.

Aha hari umwenjenyeri afite ibyuma bitandukanye byabugenewe akoresha. Afite torunevisi n'ibindi byuma bitandukanye. Yambaye nk'abakanishi ibindi birashoboka ko yaba ari kureba ibintu uko bimeze, cyangwa nyine hari ibyo ari gutunganya ibyangiritse murakoze.

Inkweto bambara, intebe bicaraho, ameza baterekaho ikintu runaka. Umwarimu arimo arigisha abanyeshuri gukora inkweto arimo arereka umwana inkweto zuzuye.

Umunyeshuri uhagaze, yambaye ishati yumweru iriho ikirango, yifashe nk'umuntu uri gusenga no hirya hariho ekara irimo umukobwa uri gukina umupira, n'undi bari kugenda bakina.

Umunyeshuri yashushanyije ifoto y'umusirikare uri kurasa ari kwerekana ishusho arabyishimiye undi yashushanyije etage inzu igeretse, ameza batekarekaho impapuro bari gushushanya.